Kuri ubu imisango y'ubukwe muri Kigali ndetse no mu Rwanda hose isigaye yifashisha ibisharagati cyangwa ibidara bigezweho. Aho bibasha gutanga igicucu ku bantu bose bahageze kandi bikagaragaza neza isura nziza y'ubukwe.

Buri muyobozi wese agomba kuba afite ibiro byiza bifite isuku kandi bisukuye birimo n'umwuka mwiza harimo intebe harimo, mudasobwa harimo ameza , n'ikayi n'ikaramu ndetse cyane cyane agomba kuba afite n'amazi yo kwifashisha.

Urubuga rw'irembo rudufasha twebwe nk'abanyarwanda kuba twabasha kwakira cyangwa se tugasaba serivisi zitandukanye mu bigo bitandukanye bitabaye ngombwa yuko dufata inzira tukajyayo tukabikorera aho turi.

Umujyi wa kigali wuzuye byose, ntacyo wakeneramo. Wuzuye umutekano, ufite iterambere ku buryo amashanyarazi yageze kuri bose, imihanda myiza, indabo zizana akuka keza, umutekano ku buryo nta midugararo iba irimo muri buri gace.

Buri bitaro byose mu Rwanda bisabwe kuba bifite aho byakirira abarwayi ndetse n'ingobyi zitwara indembe ku bitaro mu gihe bibaye ngombwa yuko hakenerwa ubundi buvuzi bwisumbuyeho.

Kwa muganga cyangwa se aho twakwita ku bitaro hahurirayo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abarwayi baje kwivuza, muganga uvura abarwayi, ababyeyi bagejeje igihe cyo kubyara ndetse n'abashoferi batwara indembe ku bitaro.

Urwego ni igikoresho cyiza kandi cyifashishwa mu bikorwa byinshi bitandukanye cyane cyane ubwubatsi. Abantu benshi barukoresha iyo bashaka kujya kuzamuka ku munara, ku nzu cyangwa n'ibindi bintu biri hejuru cyane umuntu atabasha gushyikira, ruradufasha kandi inzego zose mu mabara menshi atandukanye ziraboneka ku isoko hose.

Imihanda ya Kigali imwe n'imwe igiye ikozwe ku buryo bwiza kandi bugezweho aho usanga umuhanda wa mbere ari imodoka zijya mu cyerekezo kimwe umuhanda wa kabiri izindi modoka zikajya mu kindi cyerekezo kinyuranye. Ibi ngibi byaje nk'igisubizo kandi bigabanya impanuka mu mihanda.

Icyapa cyerekana serivisi zitangwa n'ikigo cyitwa buritamu, turimo turabonamo ko buritamu ari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye harimo ibigo bito, ibigo by'imari, sako n'amakoperative, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihayeyimana ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Usaba kuba udafite ubwishingizi ushobora kwibaza uburyo wakwivuza ariko buritamo ni igisubizo cyawe, kugira ngo ube wakwivuza kandi nawe ku giti cyawe wabigeraho.

Imodoka nziza nini y'umweru iri mu bwoko bw'amakamyo itwara abantu ndetse n'imizigo, iboneka ku masoko yose mu Rwanda, ku giciro cyorohereye buri muturage wese kuba yabasha kuyigura, irangwa no kuba ifite amapine akomeye kandi aramba.

Imodoka nini nziza yitwa rukururana cyangwa se hoho, zirangwa no kuba zikomeye, kandi ziramba zimara n'igihe kirekire. Zikoreshwa ahanini cyane cyane zitwara imizigo myinshi iremereye itabashwa gutwarwa n'ibindi binyabiziga bito bito.

Mu Rwanda dufite amamodoka meza manini y'amakamyo, ashobora kuba yatwara amatungo maremare n'amagufi, ayakuye mu mwanya umwe akayageza mu wundi mwanya, hatabayeho ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa guhungabana uko ariko kose.

Utumodoka twiza duto duto dutwara imizigo. Akenshi turangwa no kuba dufite imyanya ibiri, inyuma harangaye akaba ari ho imizigo ijya. Niho imitwaro y'abantu igenda. Kandi turahendutse.

Mu modoka zashyizwe ku isoko, harimo izifite ubushobozi bwo kwikorera imizigo igera kuri toni enye ndetse ikaba yazizamukana imisozi ku buryo bworoshye, iki kinyabiziga kimaze imyaka isaga mirongo itanu kiri ku isoko kikaba kigura miriyoni mirongo itatu n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda ubariyemo imisoro.

Imihanda ya Kigali ni myiza, irangwa n'utugarurarumuri, ikindi irateganye, hagati muri yo itewemo indabo nziza n'imikindo, hirya yayo hariyo ibiti bizana igicucu n'amafu ku banyamaguru.

Imihanda ya Kigali yamaze kuvugururwa ndetse iranagurwa aho usanga yaba imodoka, abantu, amagare n'amamoto bibasha kunyuranyuranaho mu buryo butabangamiranye kandi impande hose hari ibiti bigose imihanda bizana umwuka mwiza ndetse n'utunozasuku aho abantu bashyira imyanda.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Umujyi wa Kigali wamaze gutera imbere ku rwego rushimishije. Ku buryo ahanini usanga uranzwe n'amazu meza ateye amabengeza, imihanda ikomeye, ibiti bizana imiyaga mu mihanda, abantu basa neza bakarabye n'umutekano urambye.

Amazu y'ubucuruzi manini kandi magari ari ahantu heza kandi hafite isuku n'umutekano, wahagera nawe ukirebera harangwa n'urujya n'uruza rw'abantu, ntacyo wahagera ngo uhabure icyo aricyo cyose kiraboneka.

Urugo rwiza, ruzitijwe uruzitiro rwubatswe n'amabuye meza, atandukanye yo mabara meza. Hariho uturabyo duhumura neza, kandi n'amabati yayo arahenze cyane, ntago wapfa kuyabona aho ari ho hose.